Hariho izindi serivisi umuturage wese yemerewe kuba yabona. NK'igihe wenda urwariye nko mu bitaro, udafite ubushobozi bwo kuba bwakugeza ku bindi bitaro bikuru bishobora kukwitaho, hari imodoka za Leta yagennye, ishobora kuza ikagufasha ikaguha ubufasha bwo kuba yakugeza ku bitaro ukitabwaho.

Kwifatanya mu bikorwa rusange byo gutabara cyangwa se gukora ibintu runaka nabyo tuba tugomba kubyitabira, tukajya gufasha abandi aho ubufasha bukenewe, icyo dushoboye gukora tukaba twagikora twese bigaragaza ko twifatanyije n'abandi.

Umunsi serivisi zijyana n'ubuzima zidufasha nazo kuba twagira ubuzima bwiza, tukagira imibereho myiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bikanatanga akazi kuri bamwe bigatuma nyine babasha kubaho neza bakabona igitunga imiryango yabo.

Igihe hateye nk'icyorezo, icyorezo k'indwara. Tuba twese tugomba kugira uruhare mu kwirinda icyo cyorezo. Tukanafasha n'abandi kumenya uko wakwirinda icyo cyorezo kugira ngo twirinde ko cyahita gikwirakwira. Tukagabanya ingaruka zacyo zishobora gutera cyane cyane urubyiruko rero rugomba gushishikarira rugashyiramo imbaraga cyane.

Hari ibindi bikorwa bitandukanye dushobora gukora, byo gufasha abaturage buri muntu nk'igihe wenda, habaye ibiza cyangwa se mu gihe cy'intambaraba, tuba tugomba gufasha abaturage bacu, tukabaha ibyo bakeneye nk'ibyo kurya, imyambaro, ibyo biryamirwa n'ibindi byinshi bitandukanye babikeneye.

Kwa muganga ni ahantutu ushobora kuba wagize ikibazo ukabagana warwaye bakakwitaho, ushobora no kuba wagize ikibazo wabuze amaraso bakagutera serumu zikongerera amaraso cyangwa se wabuze amazi mu mubiri bakurebera serumu zongera amazi mu mubiri, ikibazo cyose rero waba wagize uba ugomba kugana ubuvuzi kwa muganga bakakwitaho.

Gufatanya n'abandi mu bikorwaremezo, urugero nk'umuganda nabyo ni ingenzi kuko bituma mukora ahantu hangiritse, mugashakira hamwe ibintu bishobora guteza imbere agace runaka mutuyemo. Ubwo rero buri munyarwanda wese ufite imyaka cumi n'umunani aba agomba kwifatanya n'abandi muri ibi bikorwa kugira ngo bateze imbere agace batuyemo.

Imodoka yitwa ambulance nayo yorohereza abarwayi barembye kubageza ku bitaro vuba uko bishoboka kugira ngo ubuzima bwabo bubungwabungwe. Imodoka igendamo umurwayi, umurwaza ndetse n'umuganga. Ku buryo ageze mu nzira bigakomera aba ashobora guhita amuha ubufasha bw'ibanze.

Dufite ibikoresho by'ikoranabuhanga bidufasha muri serivisi zijyaniranye n'ubuganga, igikoresho yitwa doron, dorone kameze nk'indege kagenda mu kirere gatwara amaraso ni kakayajyana kayavana ahantu hamwe kakayajyana kakayageza nko ku bindi bitaro akayaterera hejuru noneho umuntu uri hasi ku bitaro akafata.

Ahakurikira ikibazo kijyanye n'uburwayi cyangwa se ukavunika ariko iyo uganye serivisi zo kwa muganga baragufasha kandi bakakwitaho mu buryo bwose ukeneye. Iyo wubahirije izo nama za muganga rero aba yakugiriye, biragufasha cyane bigatuma nyine ubasha gukira vuba bitagoranye.

Leta ishobora guha abaturage ubufasha wenda urugero ikabaha nk'amatungo, ikaba aha nk'inkoko kugira ngo iteze imbere abo baturage bivane mu bukene, ibyo bintu rero abo baturage bahawe baba bagomba kubifata neza bakabibyaza umusaruro kugira ngo bibakure mu bukene babikoreshe icyo leta yabigeneye ko ibikora.

Ibiro, ibitaro bidufasha muri serivisi zijyanye n'ubuzima kwita ku buzima bwacu igihe twarwaye kububungabunga kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza n'izindi serivisi nyinshi zitandukanye zijyana n' izi serivisi rero tuba tugomba kuzubaha kandi tugaziha agaciro.

Abantu batanga serivisi zijyanye n'ubuzima baba bagomba kuba ari abantu bafite isuku, basa neza kandi n'aho bakorera batangira serivisi hasa neza kugira ngo bakomeze gusigasira ubuzima bw'ababagana, ubwo rero nawe igihe ubagannye uba ugomba kwitwararika nawe ukitwara neza kugira utagira ibyo wangiza.

Ibitaro ni ahantu dukenera gushaka serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Aho hantu rero haba hagomba kwitabwaho hagafatwa neza hakagira isuku mbese hakagaragara neza. Igihe rero ugiye gusaba iyo serivisi uba ugomba nawe kwitwararika ntugire icyo wangiza kandi inama muganga aguhaye ukazikurikiza zose.

Abaganga na bo badufasha kugira ubuzima bwiza bakatubungabugira ubuzima, twarwara tukabagana kugira ngo badufashe ukuntu twakwita ku buzima bwacu, tuba tugomba kubaha inama rero baduhaye tukazikurikiza, kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza.

Ku bitaro ni ahantu hagomba kuba hasukuye, kugira ngo abarwayi baza bahagana nabo, batahava bahandurira izindi ndwara. Kandi abaganga bakora muri ibyo bitaro, baba bagomba nabo kwita ku bantu baje babagana ndetse n' abashinzwe kuhakora isuku, bagahora bahabungabunga buri kanya, kugira ngo hataza kugira uhava ahandurira zimwe mu ndwara ziva ku mwanda.

Hariho ibikoresho dukoresha mu bijyanye no gusuzuma uburwayi ,budashobora kugaragarira inyuma ariko tugakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, kureba ubwo burwayi kugira ngo tubashe kubona uko twakwitabwaho, nyuma yo kumenya ubwo burwayi twaba turwaye, kubera ko buba butagaragara.

Ahantu hafatirwa ibizamini runaka bijyanye n'ubuzima, haba hagomba gukorerwa isuku kandi ababikoramo bakitwararika kugira ngo batandurira mo indwara zimwe na zimwe, kubera ko ibintu baba bari gukora biba bisaba kwitwararika wenda bakambara nka ga kugira ngo bataza gukuramo izindi ndwara bityo bikangiza ubuzima bwabo.

Ni ibikoresho by'ikoranabuhanga bifasha abaganga kubona uburwayi bw'umuntu, n'iyo bwo bwaba butari kuboneshwa amaso bagakoresha laboratwari bagapima kugira ngo babone indwara umuntu arwaye, umuntu uko bamwitaho bakamufasha gukomeza gusigasira ubuzima bwe.

Ubuvuzi, ubuvuzi bukoresha laboratwari nyine kugira ngo bavuge ikintu batagikoresha kuko ari indwara mu mubiri bakoresha laboratwari kugira ngo barebe ikintu urwaye, noneho babone uburyo bakwitaho nuko bakuvura ni iby'ingenzi rero igihe wumva utameze neza ugana kwa muganga bakagukorera ibintu byose by'ibanze bagukorera kugira ngo bamenye indwara urwaye.

Abaganga b'inzobere baba barigishijwe gukoresha laboratwari, tuba tugomba kububaha kubera ko barabyigiye igihe ubaganye ugiye kwivuza kurikiza ibyo bakubwiye, ukurikize inama uhawe kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza ubeho neza.

Hari uburwayi bumwe na bumwe buza ariko umuntu akaba atabubonesha amaso, kugira ngo ubwo burwayi bugaragare ukoresha laboratwari kugira ngo turebe barebe ubwo burwayi barebe n'uko babuvura, noneho bagakoresha n'ibindi bipimo bashobora gukoresha nk'urushinge bagafata nk'amaraso bakayapima bakareba indwara umuntu arwaye bakabona uko bamuvura.

Kwita ku buzima bw'abana ni ingenzi cyane kuko abana ni bo Rwanda rw'ejo hazaza ubwo rero aba bana tuba tugomba kubitaho, tukabakorera buri kimwe cyose ibintu bibaruhura mu mutwe n'ibindi bigiye bitandukanye, buri muntu wese afite uburenganzira bwo kwita ku mwana yaba uwe cyangwa atari uwe.

Haho abantu bashinzwe kwita ku buzima ku buzima bw'abana bakabungabunga ibijyana n'ubuzima abanyabuzima abanyabuzima baba bagomba guhabwa amahugurwa y'ukuntu bakwita ku buzima bw'abaturage bakwita ku buzima bw'abana bakabafasha gukura neza.

Mu bigo nderabuzima tugiramo abayobozi bashinzwe kwita ku buzima bwacu, abo bayobozi rero igihe batugiriye inama runaka tuba tugomba kuyubahiriza kubera ko baba barabyigiye kandi babifitiye uburenganzira n'ubushobozi.

Umwana, ubuzima bwe bugomba kwitabwaho. Haba ababyeyi be, haba abaganga. Bagomba kumusigasira bakamushakira buri kimwe cyose kugira ngo agire ubuzima bwiza. Agakura neza mu bitekerezo, mu mubiri mbese ku buryo ubuzima bwe nyine bwitabwaho mu buryo bwuzuye, akazakura neza akagira ubuzima bwi...

Hari n'ubundi abantu baba barize ibintu bijyanye n'imitekerereze, aba bantu igihe bakugiriye inama ku bijyanye n'ibyo wahindura cyangwa nuko wakwitwara kugira ngo ugire imitekerereze myiza uba ugomba kumvira izo nama kandi ukazikurikiza.

Kubungabunga ubuzima bw'umutwe bifasha abantu benshi baba bari hafi nko kuba bafite ibibazo binini bijyaniranye n'indwara zo mu mutwe kwaba kwiyiheba, agahinda gakabije ,bituma abenshi muribo bigarukira hafi batari barwara cyane ariko rero kwitabiriye iyi gahunda n'ufite ibimenyetso bimwe na bimwe ni ingenzi cyane.

Hariho ahandi hantu; nyine umuntu aba ashobora kugurira imiti cyangwa se akaba yahabona nk'umuti runaka ariko bitamusabye ko ajya mu bitaro. Hari amabutike nyine acuruza iyo miti; nayo agatuma tugira ubuzima bwiza nyine akadufasha kubungabunga ubuzima bwacu aduha imiti yo kutuvura indwara zitandukanye.

Igihe umuntu ahisemo kuba yacuruza ibintu bijyanye na farumasi aba agomba kuba afite icyangombwa yabiherewe abyemerewe kugira ngo atazagongana n'ikigo gishinzwe ubugenzacyaha kije kumufata wenda bitewe nuko ari kubikora atarabyemerewe cyangwa sa atarabyakira uburenganzira, mbere yo kubikora rero ugomba kubanza wabyakira uburenganzira.

Aha haba hari imiti igiye itandukanye yaba imiti y'amatungo, imiti y'abantu, mbese imiti itandukanye y'abakuze n'abana n'abatoya, aha ushobora kuhagana igihe wenda ugize nk'ikibazo ukafatirwa nk'ahantu bitari ngombwa ko ujya kwa muganga utari bubone uko ugerayo ushobora kugana farumasi bakagufasha kubona umuti byihuse.

Ahantu hacururizwa imiti haba hagomba kugira isuku, hakagaragara neza kandi n'ukoramo akaba na we afite isuku kugira ngo abantu baza kuhagurira imiti, bahagure imiti ifite isuku kandi izabashishikarize no kuba bagaruka batinubiye kuba hari umwanda.

Hariho ahantu dushobora ushobora kujya, bacuruza imiti ari, botique atari kwa muganga bakaba bacuruza imiti ukaba wahajya mu buryo bwihuse ugiye kushakira nk'umuti runaka, ukawubona byihuse bidasabye ko ugana ibitaro cyangwa se nk'amasantere de sante.

Ahantu hacururizwa imiti haba hagomba kuba hafite isuku ku buryo n'uwaza kuhagurira ibinini ahagera akabona ko ari ahantu ashobora kuba yakura imiti yamufasha agakira, aha hantu haba hagomba kuba umuganga kandi hakitabwaho kandi hagakoramo umuntu wize ibintu bijyanye n'ubuvuzi n'ubundi.

Ubu ubucuruzi bwo gucuruza imiti, ni ingirakamaro kubera ko bufasha abaturage kubona imiti mu buryo bwihuse bitamugoye kandi bikanafasha n'uyicuruza gutera imbere, mu buryo bwihuse vuba vuba, umuntu ubicuruza rero ni byiza ko aba yarize ibintu bijyaniranye n'imiti kugira ngo ajye atanga imiti yujuje ubuziranenge, itangiza abo ayiha.

Ubucuruzi bwo gucuruza imiti nabwo bufasha abantu kubona ubuvuzi nk'igihe batashoboye kujya aho ibitaro biri, bakagura imiti iborohereza, ubwo rero ubucuruzi nabwo ni ingenzi cyane kuko bufasha abantu babutuye cyangwa abadafite, abataratanze ubwishingizi mu kwivuza bakabona imiti.

Farumasi ni ahantu ushobora gusanga imiti igiye itandukanye y'indwara zitandukanye, ushobora kurwara bitagusabye ko ujya kwa muganga ukajya kuri forumasi ukagura umuti bakakubwira uko uzajya uwunywa ugakurikiza ayo mabwiriza noneho bigatuma ukira ukanajyira ubuzima bwiza.

Hariho nk'abantu bashinzwe bashinzwe kwita ku buzima bw'abaturage, urugero abanyabuzima. Abanyabuzima ni abantu bashinzwe kwita ku buzima bw'abaturage bakabubungabunga, bakareba icyabuhungabanya, bakagikumira kitaraba. Buri muntu wese rero agomba kwita ku buzima bwe.

Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe ubuzima bushobora kuduha nk'amahugurwa cyangwa rukatugira inama'uko dushobora gukoresha ikintu runaka cyangwa seko uko nyine twakwirinda indwara runaka. Tuba tugomba kubyumva kandi tukabikurikiza kubera ko aba aba abifitiye uburenganzira bwo kubitubwira.

Buri muturage wese afite uburenganzira bwo kuba yagira uruhare mu kwita ku buzima, cyangwa se gukora igishoboka cyose kugira ngo aharanire ko abandi baturage bagira ubuzima bwiza, twese tukagira imibereho myiza, kandi tukabaho neza nyine dufatanyije, kandi buri muntu wese afite uburenganzira bwoa kuba yabaho neza.

Buri hantu hose haba hagomba kuba hariho imigezi, kubera ko ntabwo twabaho nta amazi. Amazi ni ingirakamaro mu buzima bwacu, atuma tugira isuku tukagira ubuzima bwiza, tugasa neza, amazi ni ingenzi cyane mu buzima, niyo mpamvu ahantu hari umugezi tuba tugomba kuhafata neza tukahagirira isuku.

Serivisi zo kwita ku buzima nk'igihe wenda rimwe na rimwe nk'abana bakiri batoya. Bafitemo hagati yo kuva ku mwaka kugera ku myaka itanu. Baba bagomba kujyanwa nk'abantu runaka rimwe mu gihe, bakabatekera bagatekerwa indyo yuzuye. Irimo ibitera imbaraga, ibirinda indwara byose. Mbese bakabibatekera kugira ngo bakomeze gusigasira ubuzima bwabo.

Aha ni inshingano nyine Polisi igira yahariwe, yahariwe kurwanya ibiyobyabwengega mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda, Polisi y'u Rwanda rero ntabwo ishyigikiye ibiyobyabwenge irushaho kubirwanya kuko byangiza ubuzima bwacu bigatuma yangiza imitekerereze.

Nyine abantu twese muri rusange tugomba kwita ku buzima bwacu nyine, tugomba gukora ibishoboka byose rero kugira ngo dusigasire ubuzima bwacu tubwiteho, tukarwanya ikintu cyose cyaduhungabanyiriza ubuzima, twese nyine tugakorera hamwe ubuzima bwacu bugakomeza kubaho neza.

Igihe urwaye indwara runaka ushobora gukoresha imiti gakondo, wenda ushobora guhambiriraho nk'ibyatsi runaka ku kintu waba warwaye wenda tuvuge warwaye nk'ikibyimba, guhambiriraho ibyatsi runaka kigashya kigaturika. Ubwo nabwo ni ubuvuzi gakondo kandi bugira akamaro.

Ushobora kuba urwaye indwara bikaba ngombwa ko ivurwa n'imiti ya kera n'imiti y'ibyatsi. Iyo miti irashobora gufatwa igacishwa mu mashini kugira ngo itunganywe noneho yamara gutunganywa igatangira gukora ubuvuzi nyine bakajya bayivuza abantu.

Imiti gakondo na igira akamaro cyane, hari imiti imwe n'imwe tujya tubona y'ibyatsi, iyo miti ntabwo tuba tugomba kuyifata nk'aho nta gaciro ifite kubera ko iyo miti na yo igira akamaro kanini cyane mu bijyanye n'ubuvuzi, urugero nk'imiravumba cyangwa ibindi byatsi ariko bidufasha mu bijyanye n'ubuvuzi.

Imiti gakondo na yo ifasha cyane mu buvuzi n'ubwo muri iki gihe hari amuvuriro ariko iyi miti iyo umuntu ayifashe akayivanga hari igihe akira bitabaye ngombwa ko ajya kwa muganga, abavuzi gakondo rero na bo mu gihe bafiti iyi mpano tuba tugomba kububaha.

Kera habagaho imico bakoreshaga ya kera nijyanye n'imiti bakoreshaga ariko nyine bijyaniranye bijyanirana n'ibintu n'ibintu bisa n'imigenzo cyangwa se imihango y'ubupfumu ariko yari imiti gakondo bakoreshaga mu uburyo bwo kuvura.

Hari ibyatsi ibyatsi bishobora kuvamo imiti. Iyo miti y'ibyatsi rero, irafatwa igatunganywa, ikanyuzwa mu byuma ku buryo izajya ikoreshwa mu bijyanye n'ubuvuzi, ikavura abantu. Umuganga wabyigiye niwe ugomba kumenya uko ukoresha iyo miti. Mu gihe bayiguhaye rero ugomba gukurikiza amabwiriza uba wahawe na muganga.

Ibigo nderabuzima bishinzwe kwita ku buzima bw'abantu, biba bigomba kugira imiti itandukanye kandi bakagira ahantu ho kubibika heza hafite isuku mu buryo butuma iyo miti itangirika. Harimo ibikoresho kwa muganga bashobora gukoresha kugira wenda birinde kuba bakandura indwara zishobora guterwa na mikorobi, urugero twavuga nka Ga, muganga ashobora gukoresha Ga.

Abantu bakora mu bakora mu bigo nderabuzima abokozi babyo tuba tugomba kububaha tukabafata neza kuko batuma tubaho neza kandi tukagira ubuzima bwiza, n'igihe wabagannye uba ugomba kububaha ukumvira inama bakugiriye kandi ukazikuriza.

Ku bigo nderabuzima bashinzwe kwita ku barwayi abantu bakoramo baba bagomba kuba ari abantu bagira umutima mwiza bakakira no kwihangana kugira ngo bite ku barwayi baba babagana, ashobora kubagana bitewe nyine n'uko buri murwayi yiyumva, akumva abarwayi batandukanye aba agomba kwihangana.

Kubigonderabuzima abayobozi batandukanye bashinzwe kwita ku buzima bw'abantu. Abayobozi rero bagomba kuduhugura nk'igihe bagiye kwivuzayo cyangwa bagahugura nk'abanyabuzima ku bintu bimwe na bimwe kugira ngo bakomeze kubungabunga ubuzimabo bwabo kandi neza.

Ibigo nderabuzima. Ibigo nderabuzima, ni ingirakamaro cyane. Kubera ko bituma tugira ubuzima bwiza bikadufasha bigafasha bikadufasha kubungabunga ubuzima bwacu, kandi n'igihe twaba twagize ikibazo wenda cy'uburwayi runaka tukaba twabagana bakatuvura.

Ibigo nderabuzima bigomba kugira ahantu hihariye hagenewe kwitabwaho kubana, aho nyine bita ku buzima bw'abana by'umwihariko kugira ngo babashe gukora neza, bakabaha ibyo bakeneye, bakabitaho mu buryo bw'umubiri muke bw'imitekerereze kugira ngo bazakore neza.

Abaganga bakoresha uburyo butandukanye kugira ngo batavure. Ashobora gukoresha urushinge mu kwivuza bitewe n'indwara atari kureba, cyangwa atari kumva kugira ngo akuvure indwara yashishoje neza iyo ariyo, agakoresha urushinge akagupima. Ashobora kuvoma amaraso cyangwa se akagira akayapima noneho yamara kuyapima agapima ayo maraso yawe akareba indwara urwaye kugira ngo abone uburyo akwitaho.

Kugira ngo dukomeze kubungabunga ubuzima bw'amatungo, amatungo na yo agira aho avurizwa kandi akagira n'imiti yayo yabugenewe yo kuvura ayo matungo nk'igihe yarwaye cyangwa se hari icyorezo runaka, abavuzi abantu bize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo baba bagomba kwifashishwa muri icyo gihe kugira ngo bite ku buzima bw'amatungo.

Ibigo nderabuzima iyo byegereye abaturage bituma abantu bata imbere mu rugo, buri muntu wese akaba yabasha kugerayo bitamugoye, aya mavuriro rero ni ingenzi cyane nayo kuko aramira ubuzima bwa benshi kubera ko kugera ku bitaro bishobora kuba bigoye ariko kugera ku kigo nderabuzima byorohera umuntu.